Ni mu ishuri rya materineri aho hari igishushanyo kimeze nk'inka ariko nanone gifite amapine ni igishushanyo gifasha abana kwiga neza bakurikiye.

Ni igiti cy' igishushanyo, ni mu mashuri y'inshuke aho ku mutwe handitse fulawaringi plani, ahandi hakaba handitse ijambo de, ni igiti cy'icyatsi kibisi kigaragaza ko iyo abana bagiye kukigiraho bakifashisha.

Agakinisho kameze nk'ingona kari mu ibara ry'umutuku, icyatsi n'amenyo y'umweru ajya kuba umuhondo, gafite ikintu ku mugongo cy'umukara n'icyatsi, ni agakinisho k'abana bo muri nasari.

utwana twiga mu mashuri y'inshuke turimo turicunda ahantu babubakiye bazajya bakinira mu twana dutatu kamwe karicaye kari kuhamanuka abandi nabo bagiye kujyaho barye umunyenga.

Ni ibikoresho by'umwana wiga mu mashuri y'incuke, aho ari agakapu gashushanyijeho, akantu kameze nk'ishusho y'umuntu, hirya gato haridukeri, ashobora gukinisha arya ndetse hari n'agakapu, bari kumushyiriramo, muri ako gakapu gasanzwe.

Umwarimu uri kwigisha abana bo muri garidiyene ari kumwe n'akana gatoya kari kugenda gakoraho agasomesha ku kibaho ibyanditseho, handitseho imibare kuva kuri rimwe kugeza ku icumi.

Ni mu ishuri rya nursery, aho hari ibishushanyo byinshi bifasha abana mu kwiga, hari itoroshi, hari igishushanyo cy'umutima, hari n'ikarita igizwe n'amabara y'umuhondo n'icyatsi n'ubururu.

Bambaye iniforume z'umweru n'ubururu, hari abifubitse imipira y'ubururu, bari imbere y'ishuri bamwe bari kwinjira abandi baracyahagaze, bari iruhande rwa jaride, aho ishuri ryabo risakaje amabati y'ubururu.

Ni mu kigo cy'amashuri aho hari amashuri menshi atandukanye, hari ibiti bishinzwe kuzana umwuka mwiza ndetse n'indabo zigize ubusitani, turi imbere y'ishuri ry'abana ry'inshuke, aho bagiye kwinjiramo ari batatu.

Mu kigo cy'amashuri, ni umwana ushushanyije ku kibaho, aho abana bo mu mashuri y'incuke bamwifashisha biga ibice by'umubiri w'umuntu, haba ibyo hejuru, ibyo mu gihimba, ndetse n'iby'amaguru n'amaboko.

Ni mu kigo cy'amashuri, aho higishwamo abana, b'inshuke barimo baricunda, ku byicundo babageneye hari n'abantu bakuru baje kubareba, imbere yabo hari ishyamba rinini cyane.

Ni ikarita y'uRwanda ishinzwe kwerekana intara, aho harimo amabara menshi atandukanye, hari icyatsi, hari ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi cyijimye, biri ku kirahure neza, aho higira abana bato b'inshuke.

Ni ku kigo cy'amashuri y'abanyeshuri biga mu ishuri ry'incuke, bari kumwe n'ababyeyi babo ndetse barimo n'abiga pirimeri, bafashe indangamanota bari kumwe n'abarimu babo.

Ni agakinisho kameze, nk'agakoko, gafite amatwi, umunwa amaso, gafite n'utuboko, ni agapupe k'abana, bakinisha biga mu mashuri y'inshuke.

Ni mu kigo cy'amashuri begereye amashuri yabo n'idarapo ribari imbere, umwana umwe arimo ararikoraho asa naho arizamura, imbere yabo hari abarimu ndetse n'abandi banyeshuri bose bambaye iniforume.

Ni mu kigo cy'amashuri hirya y'ishuri hari ibigega bifata amazi, iryo shuri n'iry'inshuke, aho hanze hashushanyije ku nkuta abantu, amagare n'ibindi bitandukanye n'abana batoya b'inshuke bahigira.

Ibikoresho byo mu ishuri byifashishwa n'abana biga imibare, harimo kompa, harimo amarate na kereyo, biri mu ibara ry'ubururu.

Ni mu kigo cya primaire aho hari ibishushanyo bifasha abana kwiga, ni ihene, intama, ndetse n'insina bifasha abarimu gusobanurira abana no kubigisha gushushanya.

Ni mu ishuri ribanza, aho hari ikibaho cyandikishijeho ingwa y'umweru, ikibaho kirasa umukara, hasi hari umukeka ndetse hari n'intebe y'urubaho, hari n'indi hirya imeze nka sheze.

Ni mu ishuri ry'abana biga muri pirimeri, hari ibikoresho byinshi bifashisha bashushanya biri mu mabara atandukanye nk'icyatsi, ubururu, umutuku n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri gifite aho abanyeshuri bakinira; gifite ibikinisho by'abana batoya biri mu mabara atandukanye. Ni ikigo kiri ahantu bisa nkaho hasukuye, hejuru yaho hari ikirere gituje, ni ikigo cya Primary.

Ikigo cy'amashuri abana bicaye mu ntebe bari mu ma gurupe bari kurebana basubiza ibibazo, umwarimu ahagaze imbere yabo ku kibaho yambaye itaburiya y'umweru ari kubaza ikibazo uteye urutoki akaba ariwe abaza.

Mu mashuri abanza hari isomo ribamo ibikoresho by'ibanze, haba iby'ubwubatsi, iby'ububaji aha hari iby'ubwubatsi byakoreshwa no mu buhinzi hari igitebo, isuka, ipiki, najoro, umwiko, umuhoro n'ishoka n'ibindi.

Ni mu kigo cya primaire aho byubatse neza, ni inyubako nziza cyane y'amashuri, yubatse mu buryo bugezweho, hari ibirango by'abana bigiraho rimwe, kabiri, gatu, kane, a b c d n' amashusho agaragaza ko bahigira.

Ishuri rya pirimeri hari, ku kibuga, hariho imipira myinshi itandukanye, iri mu mabara atandukanye nk'umuhondo icyatsi umutuku n'ubururu, hari n'utundi dukoresho, twifashishwa n'banyeshuri.

Inzu y'igorofa nini n'ubururu n'umweru, irimo miryango n'amadirishya imbere yayo ifite ama esicariye, imbere hateretse moto iri mu mabara y'umweru n'ubururu n'umuhondo, n'inzu y'ikigo cy'amashuri abanza.

Ni mu ishuri ribanza, aho hari ibikoresho byinshi byifashishwa n'abana, harimo inyuguti, harimo utubati, harimo ibintu byinshi bitandukanye, imibumbe, byose kandi biri mu mabara atandukanye, yigisha abana gusoma no kwandika.

Welikamu tu jiyesi Nyagatare nolegi izi hilifi, n'amagambo y'umukara yanditse ku cyapa cy'umweru kimeze nk'igisima babumbye. Ni ikigo cy'amashuri kiri kwerekezaho abanyeshuri ndetse n'abarimu.

Ni mu ishuri rya pirimere aho umwana wambaye agashati ka buresiyeri ari ku kibaho, ari kwandika inyuguti ahereye kuri a b c d e f, gukomeza.

Ni abanyeshuri bahagaze imbere y'ishuri, bari gupimwa n'umusekirite wambaye imyenda y'icyatsi kibisi, bose bambaye agapfukamunwa, bigaragara ko bari kwirinda icyorezo cya Kovidi.

Bari imbere y'inyubako ni ku kigo cya segonderi ni abarimu bose bafite mudasobwa, bambaye amataburiya y'umweru bamwe baricaye abandi barahagaze bisa nkaho bari gufata ifoto y'urwibutso.

Abagabo bazengurutse ahantu ku meza barahagaze imbere yabo hari abakobwa bambaye iniforume z'umweru n'umukara imbere yabo handitseho icyapa cyanditseho Nyagatare secondary school.

Ni mu ishuri aho umwarimu w'umugabo ahagaze hagati mu banyeshuri, bo bicaye ku intebe asa nkaho ari kubereka isomo runaka akoresheje mudasobwa bambaye niforume n'udupfukamunwa bicaye mu intebe.

Bambaye iniforume zitandukanye ni abanyeshuri ba segonderi, barahagaze bari kwifotoza, bamwe bambaye iniforume zirimo umweru n'ubururu bwijimye, abandi bambaye izirimo kaki iteruye neza ijya gusa nk'ivu ndetse na buresiyeri.

Ni mu kigo cya seconderi, aho abana bari kure rasambulema, bambaye iniforume z'umweru hejuru n'ubururu hasi, bose bagiye batonze umurongo, ishuri ku ishuri.

Mu ishuri rya segonderi, aho abahungu n'abakobwa bicaye, bisa nk'aho bari muri egizame, bari kwandika, bamwe bambaye amashati y'umweru ya yunifomu, abandi bambaye n'imipira, bicaye mu ntebe zegeranye.

Abana bambaye iniforume z'umweru n'ubururu n'utugofero tw'ubururu bari imbere y'ababyeyi babo aho bahagaze bose imbere y'inyubako yubakishijwe amakaro y'umweru, imbere yabo gato hari akana kambaye akagofero k'umuhondo.

Ni ku mashuri ya seconndari, aho hari inyubako yagenewe abakobwa, imbere yayo hari abantu, bambaye amajire, barimo baragenda, basa n'aho bayisohotsemo.

Ni mu kigo cy'amashuri ya segonderi aho abantu bari gutambuka berekeza nko mu ishuri, bambaye utujire bose bari kugenda bane begeranye undi ari gutunguruka inyuma yabo.

Welcome to Cyondo tvet school, ni amagambo yanditse kuri gate ifunze y'icyatsi n'umweru ni ku ishuri rya segonderi.

Ni inyubako yigorofa iriho amarange y'umuhondo n'amagiriyaje y'ubururu n'umutuku, inyuma yayo hari ikigega gifata amazi ni ishuri rya segonderi.

Ni mu ishuri mu kigo cy'amashuri ya segonderi, aho abantu bahagaze barangariye umuntu umwe, ari gusa nk'aho abereka aho bagomba gukorera ubushakashatsi, bambaye utujire n'ingofero mu mutwe, abandi ntabyo bambaye.

Ni muri kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bicaye ku ntebe z'icyatsi, hari n'ameza bakoze akantu k'agatsinda gusa nta mwarimu ubari iruhande.

Bari mu ishuri, aho basa n'aho bari muri dibeti, bamwe bicaye ku ruhande rw'iburyo, abandi iruhande rw'ibumoso, hari abarimu babiri bahagaze iruhande, basa n'aho bari guhuza, izo mpande zombi.

Ni muri kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyigiro, harimo abantu bake b'imbere ni babiri gusa, abandi bari hanze mu kirahure, harimo mu ishuri, intebe ndetse n'ameza.

Bari mu ishuri ni abakobwa n'abahungu bari gukurikira bose imbere yabo buri wese afite ikayi n'ikaramu yandikaho, barakurikiye bisa nkaho bari guseka nk'umuntu uvuze ikintu kitari kiza.

Ni inyubako nini iri iruhande gato, abantu bari mu muhanda babiri bafatanye mu ntoki basa nk'aho bagiye kwiga muri Iniverisite bari ku muhanda uriho amapave, hakurya yabo hari ibiti biteye birimo n'indabyo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe zitandukanye, imbere yabo hari umuntu uhagaze bisa nkaho barimo barakurikirana amasomo, bicaye bakoze ikizeru, bamwe barahagaze abandi bari kugenda.

Kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro, yanditseho inyuguti Hara, iriho amabara, y'icyatsi kibisi ni amarangi asize ku nzugi n'amadirishya.

Ni muri Kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyi ngiro, hari ibikoresho byinshi bitandukanye, hari imitako myinshi: haba iri mu mabara y'icyatsi, andi y'ubururu; ni byinshi bitandukanye.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda itandukanye barahagaze bose basa n'abakoze imirongo ibiri bamwe imbere abandi inyuma, bahagaze imbere y'ikirango cyanditseho UR Iniverisite y'u rwanda bari inyuma y'ameza manini ariho n'amazi n'ibitabo basa naho bari gufata ifoto.

Ni muri kaminuza yigisha imyuga n'ubumenyingiro. Ni inyubako nini y'umweru isakaje amabati y'umutuku. Imbere yayo hari ubusitani bunini buteyemo n'izindi ndabyo.

Ni kaminuza yigisha iby'ubumenyi ngiro, abantu bari imbere yayo barimo barayivamo basohoka bagenda, ni abagabo n'abagore bambaye neza hirya no hino hari ubusitani buteyemo indabyo.

Umuhanda ukomeza werekeza aho abanyeshuri bigira kuri kaminuza y'imyuga, hino hateye ibiti ndetse hari n'amapoto ku muhanda ni ahantu hitaruye ho kwigira.

Hari umwarimu uhagaze imbere y'abanyeshuri, abanyeshuri bicaye mu ntebe bagiye bahana intera ya metero kubera icyorezo cya kovide cumi n'icyenda, umwarimu na we ahagaze yambaye agapfukamunwa kimwe n'abandi banyeshuri.

Ni ikigo cy'amashuri cyigisha imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bari kugenda berekeza mo imbere, hino hari akazu kubatse k'umweru gakinze, hirya yako hari ibiti birebire by'ishyamba.

Bicaye hamwe mu itsinda na abanyeshuri biga mu ishuri ry'ubumenyingiro, bicaye ku ntebe z'icyatsi kibisi bari ku meza ahari amarido mu birarahure ndetse umuryango urakinguye.

Ari imbere y'icyapa cyanditseho amagambo kiri mu ibara ry'ubururu cyandikishijeho ibara ry'umweru uyu umusore wambaye ingofero n'ikanzu ari kuvugira muri mikoro bisa nk'aho yahawe impamyabushobozi.